Abantu benshi bahuriye ku meza amagari yo mu cyumba kinini cy'inama, gifite amadirishya magari atuma urumuri rwinjira neza, bafite amazi ari mu macupa ateretse imbere yabo yo kunywa, hari uturabo duto duto duteretse ku meza tw'imitako, bafite udukaye bari kwandikamo ndetse n'amatelefoni na mudasobwa.

Ivumo rusange rishyashya ryubatse neza ahantu h'igishanga iruhande rwaho hari ibiti by'imigano yavomerwaho n'umwana utezaho akajerekani undi amanura imashini kugirango amazi avome.

Mu irerero abagore bicaye ku musambi bateruye abana, abana bambaye imipira isa oranje, abagore bambaye imipira isa umweru, hari umugabo na we wambaye umupira usa oranje, afite icyansi mu ntoki, aragotomeza umwana amata.

Umwana muto uri kwimenaho amazi arayamen mu kiganza, akayimena mu mutwe, araseka yazanye ibimyira ndetse amenyo ye aragaragara afite injwiri, yambaye utwenda dusa nabi.

Urubyiruko rwishimye ruri imbere y'ibyapa bisa ubururu bambaye imipira y'ubururu y'impuzankano ndetse n'amapantaro. Inyuma yabo hari ibyapa byanditsemo amagambo atandukanye n'ikindi begamiyeho.

Ni irerero abana basa neza bakarabye bambaye impuzankano bicaye ku misambi minini, hirya hari ababyeyi babo bari kubareba, bari kunyurwamo n'abayobozi bari kugenda babanywesha amata mu rwego rwo kubaha indyo yuzuye.

Abagore babiri bakenyeye ibitenge bateruranye umufuka usa n'uremereye, bagiye gutereka ku yindi mifuka aho bari kuyirunda, imifuka iteretse ku ishitingi isa ubururu, hari abandi bagabo nabo bateruye n'abandi bari kubarebera.

Umuyobozi wambaye ikoti, ahagaze imbere atanga imbwirwaruhame, iruhande rwe hari izindi ntebe zateganyirijwe abayobozi zisa, hagati yabo buri ntebe hari akameza gatoya gateretseho amazi yo kunywa ndetse n'indangururamajwi, inyuma hari icyapa kinini kimanitseho ibirango ndetse cyane cyane n'amagambo.

Umurwayi urembye uri kwa muganga aryamye ku gatanda yambaye agapfukamunwa bamufubitse igitenge ari kumwe n'umurwaza we ku ruhande rumwe nawe wambaye agapfupamunwa n'umuforomokazi nawe wambaye agapfukamunwa uri gusa n'umwumvirizi.

Umuyobozi uri gutanga inyigisho ku babyeyi, yitaye cyane ku mubyeyi wicaye, umubyeyi ari kureba ku mfashanyigisho umuyobozi yazanye, undi mubyeyi arahagaze arasa n'urungurukana amatsiko, areba ku mfashanyigisho umuyobozi yazanye, abana na bo bafite amatsiko ndetse barakurikiye, harimo n'abana bafite impapuro nini, zisa n'aho na zo ari imfashanyigisho bari gukoresha.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo bombone icometse ku migozi myinshi, imashini ipima gutera k'umutima kw'abarwayi, umuforomokazi wambaye agapfukamunwa yakamanuye, yambaye itaburiya isa icyatsi n'agatambaro mu mutwe gasa umuhondo karimo n'utubaya tw'ubururu.

Umwana muto wazanye na mama we kwa muganga, muganga yazamuye agashati k'iwe, arapima gutera k'umutima we akoresheje akabugenewe agashyize mu matwi, yambaye ga mu ntoki, yambaye n'itaburiya y'akazi, imbere hari ameza ariho ikaramu n'udupapuro.

Ivomo rusange, hari abana batoya baje kuvoma, hari umukobwa mukuru, usa neza, uri kumanura imashini abavomera amazi, bateze utujerekani twabo ku murongo kugira ngo batuvomere.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba kigari cy'inama barakurikiye, imbere yabo hari gutangirwa ubutumwa, icyumba kirimo amatara menshi manini, imbere yabo hari ameza ariho impapuro, ariho n'amazi yo kunywa.

Abantu bari gupakira imifuka bayiterura bayivana ahantu hamwe h'igishanga, bayijyana ahantu harambuye shitingi nini isa ubururu, harimo abagore babiri bateruranye umufuka bari kuwujyana bawurunda ku yindi.

Abana babiri bato barishimye baramwenyura bari koga intoki ku mugezi urimo amazi ari kumeneka yimena inyuma y'abo hari ibyatsi byumiranye aho amazi ari gushokera.

Umuganga wambaye itaburiya n'igitambaro mu mutwe, arimo arapima umuvuduko w'amaraso umugore umwicaye imbere utwite, yashyize akantu ku kaboko ke, muri iyo ntebe umugore utwite yicayeho akurikiwe n'abandi bagore, nabo batonze umurongo bategereje kwakirwa.

Umwana muto wicaye ku bibero bya nyina wambaye urubindo gusa, arareba hirya arira, afite ubwoba, bajyanye kumusuzuma, muganga yicaye imbere ye, amufashe ku matama agerageza kumwiyegerezaho ngo amurebe, amusuzume.

Umugore n'umugabo bashakanye bicaye ku ntebe begeranye imbere yabo hari umujyanama w'ubuzima ufite imfashanyigisho arikubekeraho umugore atwite umugabo amufasha ku rutugu afasha no ku nda ye imbere yabo hari indi ntebe iriho izindi mfashanyigisho.

Ikigega kinini cyuzuyemo amazi gifite ishusho y'uruziga cyegeranye n'ibindi byinshi bimeze nka cyo bicomekeranye ku mamashini atandukanye mu ruganda rutunganya amazi biteguriye ahantu hanini h'ubusitani.

Ni irerero abana bambaye imipira mpuzankano isa oranje, bicaye ku bisambi, hari umugore wambaye amarinete usutamye anywesha umwe mu bana mu cyatsi amata, inyuma ye hari ingabo y'igihugu yambaye imyenda y'akazi nayo ifashe icyasi mu ntoki.

Abayobozi bari gutera imboga mu karima k'igikoni kubabatse neza, karimo imifuka ipakiyemo ubutaka bwiza. Higanjemo abambaye imipira isa oranje, inyuma yabo hari abari kuganira, harimo n'umupolisi, wambaye imyenda y'akazi.

Abarwayi bicaye ku ntebe zo gutegerezaho kwa muganga, barwaye indwara zitandukanye bananiwe, harimo abana bato ndetse n'abagore bakuru, harimo umugore ufite igipfuko mu mpanga, inyuma yabo ku rukuta hari amashusho atandukanye y'ibinyamakuru ndetse n'ibyo kwamamaza.

Abana batoya bambaye impuzankano isa kaki bari ku matiyo yo ku ishuri, bafunguye amazi, amazi ari kumeneka, hari abari gukaraba intoki, hari uhetse igikapu mu mugongo, bambaye bodaboda, hari uri gupepera muri kamera.

Abagabo benshi barimo abambaye amakoti n'amataratara, bahuriye ku meza n'amagari ariho igitambara gisa icyatsi, hateretseho udupapuro n'amakayi bari kwandikamo, hariho ibirahuri birimo amazi n'ibirimo imitobe.

Umugore muto wishimye ukinyeye igitenge wambaye n'ingofero mu mutwe arakaraba kuri kandagira ukarabe akandagiye ku gati ko hasi hanyuma akajerekani kagacurika kamena amazi ku ntoki ze ku ruhande hari n'akandi gakombe karimo isabune.

Abantu bahuriye ku ivomo rusange, bateze umurongo w'amajerekani baje kuvomeramo, hari umwe wegereye akazu uri gucunga ko amajerekani yuzura, hari n'abandi bahagaze bategereje n'undi ukizana ijerekani rye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano isa kaki bahuriye ku marobine atandukanye agiye afite aho bavomera, ku mpande ebyiri baravomera mu mbegeti zisa umuhondo hari n'akajerekani nako baribuze kuvomeramo.

Abantu bambaye impuzankano y'amataburiya asa ubururu, bifotoranye n'umuyobozi ari hagati y'umugore n'umugabo abafashe ku rutugu, umwe mu kuboko kumwe undi mu kundi. Umuyobozi yambaye amataratara. Inyuma yabo hateye ibiti byinshi byagandaye, bifite amababi maremare.

Abantu bari mu nama bakurikiye abayobozi ba bicaye imbere bari kubaganiriza, umwe wambaye amarinete niwe uri kubaganiriza, imbere yabo bayobozi babiri bambaye amakote hari ameza ariho amacupa y'amazi yo kunywa, bafite indangururamajwi zibateretse imbere ndetse n'amamashini bari kureberamo, inyuma y'aho hari icyapa kinini gisa ubururu cyanditsemo amagambo.

Abantu bahuriye mu itsinda bahagaze imbere y'inyubako ndende ya etaje ifite ibirahuri bitabonerana, bahagaze ku isima isa umutuku barafata ifoto y'urwibutso.

Abana bato basa nabi bambaye imyenda yincwabari bararira bababaye barambuye ibiganza basa n'abasaba imbabazi umwe uri imbere yifashe mu maso n'agahinda apfutse ijisho rimwe, hari n'abandi inyuma yabo na bo basa n'abarunguruka bareba abari imbere.

Abantu bari mu imurikagurishwa bahagaze imbere y'ameza ariho ibitambaro by'umukara, ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye bari kumurika, harimo abambaye amabaji bari mu gisharagati.

Abagore babiri bari imbere y'imbaga y'abantu nyamwinshi mu cyumba kigari, gifite amarido meza y'umweru, ndabona amatara meza, barakina ikinamico imbere y'abandi.

Umukecuru ushaje ukenyeye ibitenge aratekera mu isafuriya iriho imbyiro iteretse ku mashyiga atatu acanishije inkwi. Umufuniko w'isafuriya uteretse ku ruhande hasi ku butaka hasi ndetse hari n'ibikombe bibiri, igisorori gisa icyatsi kibisi. Yicaye ku gatebe gatoya hirya mu mbuga hari inkoko.

Umukobwa ufite umusatsi muke wambaye ikanzu irimo ibara riganje ry'ubururu, afite agashusho k'inyamaswa y'ingwe, araseka asobanurira mugenzi we begeranye nawe wicaye ku ntebe, yambaye agapira k'umukara, afite imisatsi iboshye, yambaye n'amaherena, ateze amatwi n'amatsiko yumva icyo amubwira.

Umugore urangariye hanze areba hirya ibumoso bwe ateze igitambaro mu mutwe yambaye ikanzu, yicaye ku meza y'intebe z'abanyeshuri, inyuma ye hari ibishushanyo bimanitse n'ibyapa hariho ibishushanyo by'indabo.

Umusore wambaye ishati idodesheje, yambaye ipantaro y'umukara, arareba hejuru arangamiye ku zuba, ararebana agahinda ababaye, yegamiye ku gikuta gisa umweru.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba kigari cy'inama icyumba gisize amabara y'umweru bicaye ku ntebe z'imituku bakurikiye imbwirwaruhame benshi bifashe neza bakurikiye n'amatsiko.

Abaturage bahuriye mu gikorwa cyo gutera ibiti mu busitani, harimo abiganjemo bambaye imipira y'ubururu bayacukuye umwobo bateruye icyo gihingwa bagitera muri ubwo butaka hagati mu busitani ndetse banifotoreza kuri icyo gihingwa.

Inzu nziza iriho icyapa cy'umuryango ukoreramo, ifite amesikariye azamuka ayijyaho, kuri ayo mesikariye hari inkuta z'amabuye ndende, ku ruhande hari akazu kabonerana kariho ibara ryiganjemo ubururu.

Abaturage benshi bishimye bazamuye amaboko, bafite mu ntoki zabo uduti dufatiyeho udupapuro dushushanyijeho idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, imbere hari umwana muto bateruye ufite igihanga urimo useka yishimye.

Abana bishimye bari mu birori bakurikiye, bambaye impuzankano y'imipira isa umuhondo, umwe arareba muri camera aseka cyane amenyo agaragara, arakoma amashyi yambaye ndetse n'abandi bambaye udutambaro mu mutwe twanditseho amagambo.

Inyubako nziza yanditseho amagambo y'ibyapa, ifite imiryango migari ndetse n'ibaraza imbere yayo, ifite amadirishya akinguye imbere yaho hari ubusitani bwiza burimo imikindo yakuze n'ibindi biti bitandukanye ndetse n'akayira k'abanyamaguru.

Icyapa cyanditseho amagambo manini agaragara yo mu cyapa n'ayandi magambo matoya cyiganjemo ibara ry'umweru n'iry'icyatsi gishushanyijeho abagore babiri bahuje inkokora, barebana mu maso, batonze murongo umwe, bambaye udupfukamunwa.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba k'inama harimo abagore n'abagabo. Icyumba kigari bafite ameza imbere yabo ariho amazi yo kunywa, bateretseho n'ibikapu byabo bafite telefone ndetse n'udukayi n'amakaramu bari kwandikamo inyigisho. Hagati yabo hari umugore uhagaze urimo gutanga imbwirwaruhame.

Umurwayi w'umusore aryamye ku gatanda ko kwa muganga, bamushyizeho utwuma dutuma aguma yasamye amenyo ashinnitse, muganga yambaye ga mu ntoki, afite n'imikasi aragerageza gufotora mu kanwa k'uwo musore amuvura.

Umurwayi wishimye w'umusore ufite ubwanwa wambaye ishati, aryamye ku gatanda ko kwa muganga bavuriraho amenyo, iruhande rwe hari umuganga ufite akuma bamurikisha mu kanwa barebamo ikibazo kirimo, yambaye ga mu ntoki.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ufite umusatsi muke, afite mu ntoki akagozi ari kunyuza mu menyo akuramo imyanda, arashinyitse, areba mu ndorerwamo imbere ye.

Umurwayi w'umusore aryamye ku gatanda yasamye yereka muganga agatoki gatunze kuryinyo, muganga umureba yambaye ga z'ubururu n'agapira k'umweru.

Umugabo useka cyane amwenyura, aritunga agatoki agaragaza ku gice cye ho umunwa, araseka amenyo agaragara, afite ubwanwa, yambaye amataratara, yambaye n'umupira w'umweru.

Abagore babiri umwe wambaye amataratara ufite urupapuro ari kwandikaho amagambo n'ikaramu n'undi ufite urupapuro rwanditseho amagambo ari kwerekeza aha araseka arishimye, inyuma yabo hari ibyapa bibiri bisa byanditseho amagambo biriho n'amafoto. Iruhande rwabo hari ameza manini ariho amacupa y'amazi yo kunywa.

Icyumba cyo kwa muganga bavuriramo amenyo, kirimo agatanda kegamizwaho umurwayi kugira ngo barebe mu kanwa, hari agatebe gatoya ku ruhande gasa ubururu umuganga yicaraho, ndetse n'utundi twuma tugiye duterateranije ku mamashini duteguye.

Mu ishuri ririmo ikibaho cy'umukara cyandikishijeho ingwa y'umweru, umunyeshuri ararebana amatsiko ibice by'amenyo, mwarimu arimo aramwereka, ayikoresheje igipupe kigaragaza ibice byo mu kanwa, mwarimu amufashe ku rutugu, yambaye itaburiya y'umweru, yambaye agapfukamunwa yakamanuye, inyuma ye hari umugabo wambaye ikoti, hari umugore wambaye amarinete, n'undi mugore w'umuzungu.

Inyubako nziza igezweho, iriho ibirahuri byinshi, ndetse n'amabaraza atandukanye ndende, yiganjemo amabara y'ubururu, imbere yayo hari uruzitiro rusa ubururu, harimo n'indabo nyinshi, n'ibyatsi bitandukanye.

Umugore muto wambaye isengeri y'umweru, arashinyitse areba mu ndorerwamo ye imbere ye, yambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe, afashe uburoso bw'amenyo mu ntoki yoza amenyo ayashinyitse.

Umuganga umaze gukura iryinyo rirwaye mu kanwa, umurwayi arasamye afite igihanga kijojoba amaraso ndetse amaraso yagiye no ku yandi menyo mu kanwa, arasamye abigaragaza.

Abana batoya bari mu kigero kimwe bambaye impuzankano y'ishuri isa, bafite udukombe mu ntoki tw'amabara atandukanye, barimo baroza amenyo bakoresheje uburoso bw'amenyo n'umuti w'amenyo barishimye.

Umusaza ufite imvi z'umweru nyinshi, wambaye amataratara, ukomeye, ufite inda, arakurura akagozi akavana mu gacupa afite mu ntoki ze, imbere ye hari indorerwamo ndetse hari n'agatiyo kavamo amazi n'uburoso bw'amenyo n'umuti w'amenyo.

Umusaza mukuru, wambaye amarinete ufite uruhara, wambaye ishati y'ubururu, aragenda agake gake, afashe ku rukuta, afashwe mu kiganza n'umugore muto w'umuforomokazi, baraseka bagerageza gutera intambwe, bari mu cyumba kigari, kirimo imiryango myiza, n'amabara asizemo yiganjemo umweru.

Umuryango wishimye bicaye mu ntebe nini bose bakwiyemo, harimo umwuzukuru uri hagati ya sekuru na nyirakuru akikijwe n'umuvandimwe we ndetse na papa we na mama we, barishimye baseka bambaye udukabutura dutoya.

Umusaza wambaye impeta y'abashakanye, afite akabando mu ntoki, yicaye mu ntebe, yambaye ishati y'umweru n'umupira w'ubudodo, ari kumwe n'umuforomokazi mu nzu, umuforomokazi umufashe ku rutugu, barebana baseka, umuforomokazi yambaye imyenda y'akazi.

Umusaza wambaye amarinette ufite uruhara arambuye akaboko bari kumwambika agapima umuvuduko w'amaraso, arapimwa n'umuforomokazi wambaye imyenda y'akazi isa ubururu, umuforomokazi yambaye agatima gutera k'umutima mu ijosi, iruhande rwabo ku meza hari itara ryiza ry'umutako.

Umusaza n'umukecuru bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ariho uducupa tw'imiti n'ikirahure kirimo amazi, bafite imvi bose, umusaza yambaye umupira usa ubururu, umukecuru yambaye umupira usa umutuku, arimo aramusomera ku gapapuro amabwiriza y'imiti, umusaza afite imiti mu kiganza.

Umuforomokazi yicaye ku ntebe arebana n'umukecuru ubyibushye wicaye mu kagare, aramupima umuvuduko w'amaraso yifashishije akuma yamuziritse ku kaboko n'ako yashyize ku matwi yiwe yumviramo.

Umusaza ufite uruhara, wishimye, guteze amaboko, yambaye imyenda ya siporo, arimo arakina n'umwuzukuru we, umwuzukuru afite umupira mu ntoki bari gukina, arishimye, araseka, ikibuga barimo gukiniramo gifite uruzitiro, inyuma yaho hari inzu n'ubusitani bigari ndetse n'ibiti.

Umusaza wambaye umukandara mu nda, afite ubwoba, afashe ku mpande ze ibyuma, ateye udutambwe gake gake, inyuma ye hari umuforomokazi, wambaye imyenda y'akazi, uri kumufasha.

Umusaza wambaye agapfukamunwa, ufite uruhara, yicaye mu ntebe ya pulasitiki, imbere ye hasutamye umuforomokazi, ufite imisatsi iboshye, wambaye agapfukamunwa, ndetse wambaye n'akuma mu matwi, arimo aramupima gutera k'umutima k'uwo musaza, bari ahantu hanze mu busitani buteyemo igiti gisa neza.

Umukecuru ufite imisatsi irimo imvi nyinshi, araseka yishimye areba imbere, afite mu ntoki udukoresho twa siporo, dusa icyatsi, tungana mu maboko yombi.

Umusaza ufite imvi nyinshi mu mutwe wambaye amataratara, afite imvi no mu bwanwa yicaye mu kagare ariho atemberezwa n'umukobwa muto uri kumusunika inyuma, baraseka bose bishimye baratembera mu busitani.

Abagore batatu bahuriye kumeza barakina amakarita barishimye, harimo umugore wambaye agapira gatukura muto ufite imisatsi myiza y'umukara, harimo nundi mugore wambaye agapira k'umukara inyuma yifutse akandi k'umweru arashaje afite imisatsi irimo imvi.

Umuryango wishimye, harimo sogokuru, nyogokuru, umugore n'umugabo, umugore ahetse umwana w'umuhungu, umugabo ahetse umwana w'umukobwa baraseka bishimye, inyuma yabo akazuba kararashe ndetse hari n'ibiti byinshi.

Umusaza n'umukecuru bishimye bafatanye ku rutugu, umukecuru ateze amatwi yumva icyo umusaza ari kumwongorera, araseka ndetse ateze n'igitambaro mu umutwe gisa umutuku.

Umukecuru ufite imvi nyinshi mu misatsi ye, wambaye amataratara arahumirije ari gutamira imiti mu ntoki, mu kandi kaboko afitemo ikirahuri kirimo amazi agiye gusomeza iyo miti.

Umukobwa muto, ufite umusatsi muke, wambaye amataratara, araseka amwenyura yishimye, yafashe ifoto n'umusaza umufashe ku rutugu, amwegamije bahuje imitwe, umusaza nawe amwenyura.

Abasaza babiri bambaye imipira y'umweru n'amapantaro asa umukara, bafite amacupa y'amazi mu ntoki barirukanka ahantu hakikijwe n'ubusitani bishimye, iruhande rwabo hari aho bajugunya imyanda.

Icyumba cyo kwa muganga, aho bari gufatira ibizamini by'abaje kwivuza, umukecuru wifubitse ufite akabando uteze igitambaro mu mutwe, ateze intoki ku muganga ufashe ikiganza cye wambaye imyenda y'akazi, hirya hari undi muganga w'umusore na we uri gufata agatoki k'undi murwayi afata ibizamini.

Abantu bateraniye mu cyumba kigari cy'inama, imbere yabo hari abayobozi b'inama, hari n'umugore wambaye umushanana n'agapira ka runiga, hagati hari umugabo wambaye ikote, hirya ku ruhande hari umugore w'umuzungu wambaye agakanzu k'umukara. Inyuma yabo hari icyapa kinini kiganjemo ibara ry'umweru ririho n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Umukorerabushake wambaye isengeri y'umutuku nishati y'umweru, arimo arapima umuvuduko w'amaraso w'umugore ufite imisatsi iboshye urambuye akaboko imbere ye amushyiraho akamashini ko kuwupima, inyuma yabo hari abandi bantu bose bari mu gishararagate, imbere yabo hari ameza ariho indangururamajwi.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba kigari cy'inama, imbere y'abo hari abayobozi b'inama bicaye ku ntebe babareba. Harimo umwe mu bayobozi ufite indangururamajwi uri gutanga ikiganiro, inyuma y'abo hari ibyapa bitandukanye harimo ikinini kiri inyuma kirimo ibara ryiganjemo icyatsi n'ibindi byapa ku mpande.

Urubyiruko rufashe igipapuro cy'icyapa barimo inyuma bafata ifoto bafite mu ntoki zabo udukingirizo turi mu mashashi bambaye imipira y'umweru bayafata ifoto y'urwibutso mu cyapa.

Abantu batandatu basoje inama bahagaze imbere y'icyapa kigari kirimo amabara yiganjemo ibara ry'ubururu barafata ifoto y'urwibutso, harimo abagabo batatu bambaye amakoti ndetse n'abagore bambaye imyenda itandukanye.

Umugabo n'umugore bakuze bishimye, umugore afite igitambaro mu mutwe yambaye amataratara, bafashe ibyapa bifite amabara anyuranye arimo ubururu n'icyatsi, bahagaze iruhande rw'ikindi cyapa kiriho ikirangantego k'igihugu cy'u Rwanda cyanditseho n'amagambo.

Abantu basoje amahugurwa bari ku murongo bahagaze batekanye, hari n'inzego z'umutekano bahagaze bafata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa kigari cyanditseho amagambo kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu babiri bahagaze barimo umugabo n'umugore bafatanye icyapa cyanditseho amagambo menshi yo mu cyapa atanga ubutumwa, kiriho n'ibirango ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ndetse n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, inyuma yabo hamanitse idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, iruhande rwabo hari intebe y'umuyobozi.

Icyumba kigari cyo kwa muganga kirimo amamashini menshi harimo acomekeye hejuru ndetse na mudasobwa zigiye zitandukanye n'utundi tumashini dufite udupine kirimo amatara menshi acanye.

Ubusitani bwiza burimo utuyira dutandukanye tw'abagenzi ndetse n'ibyicungo by'abana harimo n'amatara atuma baboneshereza n'ijoro, hirya hari amazu yubakishije amatafari ndetse izo nyubako ziriho urugo rwubakisha amatafari.

Umwana muto utambaye agapira hejuru, useka wicaye ku gitanda cyo kwa muganga, yicaranye na mama we umureba baseka, arimo arapimwa na muganga wambaye agapfukamunwa ndetse wambaye n'akamashini mu matwi gapima gutera ku mutima w'umwana.

Inyubako nziza nshyashya igezweho ya etaje ikoreramo ikigo nderabuzima cya Kanyinya, isize amarangi yiganjemo umweru, isakaje amabati asize ibara ry'ubururu, imbere yaho hari idarapo ry'u Rwanda ndetse imbere yabo hari ubusitani buto buri gukura burimo indabo zikiri nto ziri gukura ndetse n'ibiti bitandukanye, imbere yaho hashashe amabuye mato mato n'inzira y'abantu.

Icyumba kigali cyo kwa muganga, gifite amadirishya manini atuma urumuri rwinjira neza, kirimo amatara manini ahaboneshereza, kirimo udutanda tugiye dutandukanyijwe n'udukuta duto duto tw'umweru ndetse buri gatanda kajyanye n'akandi gatanda bisa, n'izindi mashini bicomekeranyeho.

Inyubako nini nziza igezweho ya etaje ifite ibirahure byinshi n'amadirishya n'imiryango, ifite aho binjirira hariho bariyeri bazamura hejuru, ifite akazu ku ruhande gatoya gafite idirishya rinini, harasohokamo imodoka, harimo n'izindi zi paritse.

Icyapa gishinze ku butaka bumennyeho utubuye twinshi, cyanditseho amagambo yo mu nyuguti z'ibyapa, kiriho ku ruhande rumwe ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ku rundi ruhande hariho ikirango cya polisi y'igihugu, inyuma hari ubusitani burimo ibiti byakuze bifite amababi maremare, ku rundi ruhande hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Inyubako nziza ndende shyashya zigezweho zifite amadirishya magari ari nk'ibirahuri binini, hariho amatafari ku ruhande rumwe, ziraganwa n'abantu benshi b'ikivunge bakurikiranye bagiye kuzitaha.

Icyumba kigari cyo kwa muganga gishyashya, kirimo ibitanda bishyashya, bigifunitse mu mashashi, ibitanda byinshi biterekeranye ku murongo bigiye bitandukanyijwe n'amarido maremare atuma buri wese aba ari mu kumba ke.

Abagore babiri bashaje b'abakecuru bicaye ku mubaraza magufi, imbere yabo hicaye umuforomokazi nawe wicaye ku gatebe kagufiya, yambaye imyenda y'akazi, yambaye ga, yambaye isaha ku kuboko, yambaye agapfukamunwa n'amataratara, arapima umukecuru umwe amwambika agakoma ku kaboko gapima.

Inyubako nziza nshyashya ifite ishusho idasanzwe ijya kuba uruziga ifite amadirishya yibirahuri manini magari ifite imbere yawo ubusitani bugari ndetse n'utuyira tw'abagenzi.

Umuryango mugari ukinguye winjira mu cyumba cyo kwa muganga kirimo agatanda karambuyeho ishuka isa ubururu, munsi harimo indobo isa ubururu ndetse n'utundi tumashini n'utumeza dufite amapine.

Inyubako yubakishije amatafari, ifite inkingi eshatu imbere yayo n'agatebe abantu bategerezaho yo kwa muganga, ikoreramo ikigo nderabuzima cya Gishweru imbere yayo hahagaze abagabo babiri ndetse n'undi mugore, undi mugabo yicaye ku gatebe inyuma ko gutegereza, hirya hari utundi tuyira abantu bari kunyuramo nabo baje kwa muganga.

Udushashi tubikwamo amaraso yatanzwe n'abakorerabushake batanga amaraso ku bushake mu cyumba kigari, inyuma hari abaryamye ku gitanda nabo biteguye gutanga amaraso ndetse hari n'abari kubasunika kuri utwo dutanda n'uri kwandika wambaye itaburiya.

Inyubako yo kwa muganga ifite ubusitani bwiza n'agacucucucu k'igiti, munsi hari amabaraza y'imicanga yicayeho abagore bifubitse ibitenge baganwa n'umusaza wambaye ikote n'ingofero bategererejeho.

Indabo nziza zikuze ziri mu busitani bukikije inzu nziza ya etaje, ifite amadirishya magari yinjiza urumuri ruhagije mu nzu, ifite amabara meza y'umweru ndetse ifite n'amabaraza afite inkuta zikozwe n'amabuye.

Icyumba rusange cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi bitenze k'umurongo umwe hari n'uduti tureture bashyiraho serumu hagati yagitanda n'ikindi harimo akameza gasa ubururu, ibitanda nt'abantu babiryamyeho, hariho utumatera dusa icyatsi. Iki cyumba gifite idirishya rigari rituma urumuri rwinjira.

Icyumba kigari cy'inama gihuriramo abantu benshi, kirimo intebe nyinshi zisa, imbere y'intebe hariho ameza ariho indangururamajwi, imbere ya buri ntebe, imbere yawo hari andi meza y'umweru, aburirwaho n'Abayobozi. Icyumba kirimo amadirishya manini atuma urumuri rwinjira ndetse n'amatara meza.

Inyubako nini nziza irimo amabara arimo ikijuju n'umweru, isakaje amabati asize umutuku, imbere yayo hari amabendera ateganye n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, n'irindi bendera ryiganjemo ibara ry'umweru, kuri iyo nyubako hariho icyapa gishushanyijeho utwana.

Inzu nini yubatse neza nshyashya, iriho ibyapa n'ikirangantego k'igihugu cy'u Rwanda n'ibindi birango bitandukanye, ifite inkingi nyinshi imbere yayo, isize amabara y'umweru ndetse inubakishije amatafari, ifite amadaraza make ayizamukaho n'ibyapa bindi biteretse imbere y'imiryango.

Inyubako nziza nini yubakishije amatafari ahiye, ifite igisenge kinini ndetse imbere yaho hari ubusitani buto bukiri guterwa n'ibiti bito bikiri gukura, mu busitani harimo utuyira dutandukanye dutuma abantu batambuka ndetse n'itara ribaboneshereza nijoro.

Inyubako y'ibitaro yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya manini meza y'umweru, isakaje amabati asize irangi ry'ubururu, iriho ibyapa bibiri biteganye, icyapa k'iburyo kiriho ikirangantego cy'u Rwanda, cyandikijweho n'andi magambo, icyapa cy'ibumoso kiriho igishushanyo k'ijisho n'andi magambo gikikijwe n'indabo.

Icyumba k'ikoranabuhanga cyo kwa muganga, kirimo amamashini menshi asa umweru, icyumba gisizemo irangi ry'umweru gisa neza, kirimo amatara manini, amamashini menshi afite udupine dutuma avana hamwe ajya ahandi.

Umurwayi wicaye mu gitanda kwa muganga, ari mu cyumba kigari kirimo ibitanda byinshi, muganga aramuhumuriza amubwira amagambo, aramukurikiye, iruhande rwabo hari ikindi gitanda kiryamyeho undi mugore na urwaye witegereza ibyo barimo.

Inzu nini igezweho nziza nshyashya ishashemo amakaro hasi, irimo intebe zigiye zifite ubwoko butandukanye, harimo izamabara y'ubururu, aho bakira abantu ndetse hejuru hariho n'ibirahure by'inkingi.

Dogiteri wambaye amataratara n'itaburiya, yambaye mu ijosi akuma bakoresha bapima gutera k'umutima, afite mu ntoki uruparo areberaho, araseka aganiriza abantu, iruhande rwe hari umugore ufashe ku nda n'amaboko yombi, uhagaze wambaye agakanzu k'ubururu ukurikiye.

Icyumba kigali kirimo ibikoresho bitandukanye bya siporo, haririmo ibikoresho bakora birukankaho, n'ibyo bakoreraraho nk'abanyonga amagare, inyuma y'iyo nyubako hari ubusitani bwiza bugari ndetse hakikijwe n'ibiti bitandukanye.

Ibitaro bifite amadirishya magari abonerana, inyuma n'inkingi zikoze akayira gasakaye k'abanyamaguru, umuryango mugari aho inyuma yaho hari abantu bategereje ibisubizo cyangwa kwinjira mu muryango.

Umurwayi uryamye mu cyumba cyo kwa muganga ararebana intege nke, ararembye afite imisatsi irimo imvi nkeya ariseguye ndetse aranifubitse amashuka, icyumba arimo kirimo amamashini menshi acometse ku migozi myinshi ndetse n'amaserumu.

Ibyuma by'ibyicungo abana bakunda gukoresha barya umunyenga bisize amabara atandukanye inkingi zo kumpande hasize ibara ry'ubururu ryo hagati isize ibara ry'icyatsi riri mu busitani kikijwe nurugo rwubakishije amatafari.

Abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo abakuze, bari mu cyumba cy'inama ku kigo nderabuzima bicaye ku ntebe, imbere yabo hari umuyobozi wambaye ikoti uri kubabwira amabwiriza, imbere nanone hari abayobozi bicaye ku meza magare bayoboye inama, inyuma yaho hari icyapa kinini cyanditseho amagambo.

Abayobozi bayoboye inama bicaye imbere y'imbaga y'abantu babakurikiye bafite udukayi bari kwandikamo ndetse na mudasobwa imbere yabo. Bafite bose amacupa y'amazi yo kunywa abateretse imbere harimo n'umuntu uri gukamera abayobozi, inyuma y'ubuyobozi hari ibyapa binini byanditseho amagambo.

Umwana w'umukobwa muto wambaye utwenda twa siporo aryamye hasi ku kamatera, arambuye amaboko akoze hasi agoretse umutwe areba hejuru asa n'uhuza amaguru ye n'umutwe, iruhande rwe hari ibimera biri mu bikombe byatewemo birimo itaka.

Umurwayi uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, ari mu cyumba yasuwemo n'abayobozi ,bambaye amakoti bamwitegereza, yambaye insimburangingo y'akaguru isa n'iri gupimwa, iruhande rwe hari abaganga n'abaforomo, bambaye imyenda y'akazi.

Umurwayi uryamye ku gatanda ko kwa muganga yazamuye akaguru ahinnye ivi, muganga ufashe akaguru ke mu ivi agerageza kurambura akaguru yambaye itaburiya.

Umudogiteri wambaye ishati na karuvate, yambaye itaburiya y'akazi mu ntoki acigatiye umupira wo gukina, mu ijosi yambaye akuma bapimisha gutera k'umutima.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo arambuye amaguru asutamye amanuka arambuye urutirigongo azaana amaboko hejuru a afite ubwanwa imbere ye hari undi mutoza we wambaye ipantaro yumukara nagapira ureba ibyo imyitozo yo gukora.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri arambuye agakuru kamwe k'iburyo imbere ye, akaguru k'ibumoso karahinye gahiniye mu ivi arambuye amaboko agerageza gufata ikirenge cy'iburyo yigorora.

Umukobwa muto, ufite imisatsi myinshi ifunze shinyo, afite mu kaboko k'iburyo icupa ry'amazi ari kunyweramo, aragotomera araramye areba hejuru, yambaye akenda ka siporo, ndetse afite n'utundi twuma mu matwi.

Icyumba cyo kwa muganga kigari kirimo ibitanda byinshi, umubyeyi yicaye ku gitanda yishimiye umwana we muto wicaye imbereye uri gukoma amashyi aseka, ku bitanda hagiye hariho amashuka ndetse n'ibitenge, hejuru muri icyo cyumba hamanitsemo inzitiramibu.

Umusore wicaye mu busitani, akazuba gacanye, ari gukora imyitozo ngororamubiri, arambuye amaboko, afashe ibirenge abyiyerekezaho arambura umugongo, inyuma ye hari indabo ziteye muri ubwo busitani.

Imiti itandukanye n'ibikoresho byo kwa muganga, harimo ibinini, amasizo, ga, impapuro z'isuku, inshinge n'indi miti y'amazi, ndetse n'agakapu kariho umusaraba munini, wiganjemo ibara ry'umweru, gasize amabara y'umutuku.

Umusore ufite ubwanwa, wambaye agapira k'umukara, ufite agasume ku rutugu, aranywa amazi amaze gukora imyitozo ngororamubiri, aranywera mu icupa risa ubururu.

Umukobwa mutoya ufite umusatsi mukeya, arareba mu ruhande rwe rw'iburyo, azamuye amaboko hejuru ayasobekeranye, yambaye akenda ka siporo, ahagaze ku bitare yitegereza neza inyanja, yumva umuyaga. Imbere ye hari ibindi bitare byinshi.

Isahani ikoze mu ishusho y'umutima, iriho ubwoko butandukanye bw'indyo, hariho imbuto, hariho imisogwe ndetse n'imboga. Iriho akuma dogiteri apimisha umutima, iruhande hari umugozi wo gusimbuka muri siporo, n'inkweto za siporo.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri arasutamye apfukamishije ivi rimwe hasi, arambuye akaguru ahiniye mu ivi, arakandisha amaboko ye yombi akandakanda mu ivi rye ry'ibumoso...

Umugabo ukomeye ufite imisatsi iboshye, wambaye imyenda ya siporo n'inkweto za siporo, arimo arakora imyitozo ngororamubiri yirukanka, iruhande rwe hasutamye umugore na we ufite imisatsi iboshye uri kumurebera, bari mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bya siporo, n'ameza.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri arirukanka akandagira mu kantu kameze nk'urwego, karambitse hasi afite umupira mu ntoki. Iruhande rwe hari undi wumuyobozi we ufite ako bapimiraho iminota mu ntoki amubarira. Inyuma yabo hari ayandi mamashini n'ibikoresho byinshi bya siporo.

Umusore mutoya ufite ubwanwa n'umusatsi muke, yambaye agapira gasa umukara, yabize ibyuya, aranywana inyota amazi ari mu icupa yafatishije akaboko ke k'iburyo.

Ishusho y'ibishushanyo birimo agakoresho dogiteri yifashisha apima gutera k'umutima urukweto rwa siporo ikirenge kimwe ndetse n'umupira bakinisha amaguru.

Umuforomo uri mu cyumba cyo kwa muganga, arambuye akaguru k'ibumoso k'umurwayi akigejejeho ku rutugu rw'ibumoso, akarambura akorakora mu mavi asa n'umanura ndetse no mu kirenge, umurwayi aryamye agaramye ku gatanda. Iruhande hari icyapa ku gikuta kiriho ibice by'akaguru.

Umugabo ufite imisatsi iboshye bogosha ku ruhande, yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, aryamye yubitse inda ku kamatora ko mu cyumba kigari bakoreramo siporo. Icyumba arimo kirimo ibindi bikoresho bitandukanye bya siporo, n'undi mugenzi we uri ku ruhande, na we uri gukora siporo wambaye ingofero.

Amazi asuma apfupfunuka mu musozi hejuru, amanuka agwa mu kibaya, hasi aho amazi agwa hari amabuye menshi, hakikijwe n'ibihuru n'amashyamba, imbere hari abagabo bahetse ibikapu benshi bitegereza ubwiza bw'ayo mazi amanuka kumusozi.

Amashusho ane ari mu mpande enye atandukanyijwe n'inyuguti, hari ishusho "A" n'ishusho "B" hariho ibyatsi bitandukanye ishusho "C' n'ishusho "D" hariho ishusho y'ibinyampeke harimo n'ishusho y'igitoki.

Agasekuru gatoya karimo umuhini bagiye gusekuriramo ibibabi ry'umuti, ibibabi birambitse ku ruhande byabanje kunyuzwa ku zuba, aho byanitswe mbere y'uko babisekura.

Udukombe dupfundikiye neza tubonerana turimo ibyatsi byumagaye by'imiti itandukanye, dufite imifuniko itandukanye irimo umweru n'umutuku, hariho ibyapa byanditseho n'amagambo ku dupapuro dufatiye kuri utwo dukombe.

Ahantu habereye imurikagurisha, hari umugore uri gucuruza, imbere ye hari ameza atatseho ibitambaro by'umweru, ateretseho amacupa arimo ibinyobwa bigurishwa, higanjemo amacupa asa icyatsi, afite ibipapuro by'umuhondo, inyuma ye hari undi mugore wambaye itaburiya yanditseho amagambo.

Agasekuru karimo umuhini biteretse ku gasahane kanini bikikijwe n'ubwoko butandukanye bw'ibimera, harimo iby'impeke ndetse n'iby'ibyatsi bigiye gusekurirwamo, iruhande rwawo hari akandi gacupa karimo amavuta.

Etageri zirimo amacupa y'ubwoko butandukanye, harimo n'ingano zitandukanye, inyuma hari televiziyo iri guca amashushomo, mo imbere hari umugore w'imisatsi miremire wambaye itaburiya y'umweru ndetse hari n'undi mukobwa wunamye usa n'utora hasi muri etajeri yo hasi, yambaye ijipo y'ubururu n'umupira w'umuhondo.

Ibibabi bisa neza bitoshye biri kumashami y'ibiti biteye mu mirima byegeranye bicucitse umurima urimo ifumbire nziza y'ibyatsi byagiye byumiramo bigatuma bishibuka neza bisa neza.

Umusore wambaye umupira uriho ibyapa usa icyatsi ateruye mu ntoki ze ibimera birimo igikakarubamba mu maboko yombi harimo ibimera asa n'umurika inyuma ye hari inkingi zisize amabara y'ubururu.

Icyatsi cy'umuravumba gifite amababi meza atoshye, adatobaguritse afatiye ku mashami afatanye hirya no hino, harimo n'ibindi byatsi ni igihuru kinini kirimo n'ubundi bwoko bw'ibyatsi.

Ibyatsi biteye ahantu hamwe mu busitani, harimo ubwoko bw'icyatsi cy'umuravumba gifite ibibabi bisa neza, kimwe kiratobotse imbere iruhande rwabyo hari izindi ndabo ziganjemo amabara y'umuhondo.

Abantu barimo guseka harimo abenshi biganje bambaye imipira y'icyatsi n'abagabo babiri bambaye amakoti, bari mu murima uteyemo ibikakarubamba bisa neza, muri uwo murima inyuma yaho hari ibindi biti biwukikije.

Urubuto rw'imbubu harimo izeze neza zapfunduye zikeneye gusarurwa n'ibibabi bisa neza bitoshye bigisa icyatsi ndetse n'izindi mbuto zazo zitarera neza.